Abantu benshi bari kwa muganga, hari n'umuganga ufite akantu kameze nk'aho ari agakombe, ari kumwemwe n'umuntu wamabaye agasengeri ka kuruwaruje.

Mubantu batatu bateruye ikintu kimeze nk'indege, umwe yambaye ingofero undi nta ngofero yambaye, hari wambaye umupira w'umukara ndetse icyo kintu ni umweru.

Abantu benshi bahagaze bari kureba umugabo n'umugore, bari gufuhera ahantu na kizimyamwoto, iruhande rwabo hari icyapa cy'umweru n'umutuku, harimo uturongo kamwe kamanuka n'akandi kazamuka.

Inzu irimo igitanda cy'amapine, hari amarido ndetse n'igikuta gisize amarange y'ikijuju.

Abantu batanu bahagaze, ahantu mu gashyamba, umwe ari kureba kuri terefone w'umugore n'abandi bagore babiri bari kurebana, umwe yambaye ijiri y'umuhondo ya MTN, ku ruhande rwabo hari icyapa cya redi korosingi porojegiti.

Abagabo babiri bari gusunika ikintu kimeze nk'igororofani umwe yambaye ga ari imbere n'undi yambaye ga ari inyuma bambaye inkweto z'umukara n'udupira tw'umweru.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umutuku, harimo uwambaye jiri ya Kuruwaruje y'umutuku, ari kwerekana akantu basuzumiramo indwara y'umutima, ndetse akenyeye igitambaro cy'umukara mumutwe.

Abantu bahagaze barimo gutera imiti, abo bantu bambaye utujiri twa kuruwaruje, harimo abagabo bambaye umweru, ibikanzu by'umweru ndetse n'umugore wambaye ijiri ya kuruwaruje.

Abantu bari muri sitidiyo harimo umugabo wambaye amarineti n'shati y'umweru, umugore wambaye agapira k'umuhondo afite imisatsi, ku ruhande rwe hari umusore wambaye akajiri n'umupira, n'iruhande rwe hari abagabo babiri.

Kwa muganga hari abarwayi baryamye ndetse n'ibitanda bitariho abarwayi, hamanitse supanete ndetse na vendarateri, amadirishya ntakinguye, hari na kizimyamwoto.

Abantu bari ku kibaho barimo barasiba yambaye itaburiya, ga z'umweru n'undi inyuma, umusore w'ubwanwa wambaye agapira k'umweru, undi ruhande wambaye agapira k'umutuku n'undi wambaye agapira k'umweru, inyuma ya hari umugore wambaye ikoti ry'umukara.

Abagabo babiri bari ahantu hamwe imbere yabo hari abantu bateze amatwi bari kumva icyo bababwira, imbere yaho hari ahantu handitse ijambo MIS UR.

Kwa muganga umuntu arimo kwereka umurwayi ibyo agomba gukora ku rupapuro rw'umweru, ndetse uwo murwayi ateze igitambara cya move mu mutwe, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru, afite ikaramu mu ntoki y'ubururu ndetse na marinete.

Abantu bafite igikinishi cyanditseho Kwibuka 30, ubu hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu, yambariyemo ishati y'umweru mo imbere, hari ku ruhande umusore wambaye umupira w'umukara.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ari kumwe n'abantu benshi bicaye mu ntebe z'ibiti, harimo abagore bakenyeye ibitambaro mu mutwe by'umukara ndetse ku ruhande rwe hari umugabo wambaye agapira n'ipantaro y'umweru.

Umusore wicaye ku mukinga arambuye ukuguru kumwe ukundi arahinnye, imbere ye hari inkweto z'umuhondo n'numukobwa urimo aratambuka, afite igitabo mu ntoki, inyuma ye hari abantu benshi bicaye.

Imodoka ya Ambilansi, yanditseho amagambo Rwanda Red Cross ari mu ibara ry'umutuku, iyo modoka irasa umweru n'amapine y'umukara, iruhande rwayo hari, hahagazeyo umuntu inyuma ya porotaye.

Igitanda cy'umurwayi hasi hariho lavabo, kuruhande hariho agatebe, ahandi kuruhande hari ibyuma bikoreshwa kwa muganga nyine nagatebe ka palasitike.

Abantu benshi barikumwe n'umugore wambaye ingofero iruhande rwe hari umugabo uri kureba mu gitabo imbere ye hari abagore batatu umwe utoye umwana nundi umufite ku rutugu.

Abantu babiri bahagaze, umwe ari kurebera muri mayikorosikopi muri laboratwari, undi ari inyuma ari ahagaze ku meza imbere y'uwo musore hari umunzani.

Umugabo uri muri laboratwari yambaye itafuriya y'ubururu, yambaye na ga za move, iruhande rwe hari ibyuma bikoreshwa kwa muganga, imiti ndetse n'amata y'inyange.

Umuganga arimo kwandika ku meza, afite pulante, yambaye ga, iruhande rwe hari imiti, tesite, ndetse iruhande rwe hari umurwayi, uwo murwayi yambaye ikoti.

Abantu benshi bari ahantu hamwe imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ari kubereka akantu n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru yambariyemo ishati mu imbere ifite amabara y'imirongo y'umweru n'umukara.

Umugore wambaye ibintu by'umweru, hafi yasutse plte. Imbere ye hari microscopi ndetse n'ubwoko bw'ibipimo bitandukanye.

Umuganga arimo gupima umurwayi, umurwa wambaye agapira k'icyatsi, uwo muganga arimo kumupima agakanda urutoki cyane ndetse hasi hari ibipapuro.

Umuganga wambaye agapfukamunwa amarinete itabariya y'icyatsi yambaye ga z'ubururu, yambariyemo agapira k'umweru imbere ye hari mikorosikopi n'imashini.

Abantu babiri bari muri laboratwari, umwe ari kumashini n'undi arimo gusuzuma ibintu yambaye isaha n'umupira w'umweru.

Umuntu uri mu biro yicaye ku ntebe ari ku mashini yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye itabuririya yu'umweru, kuruhande rwe hari imashini iri hejuru ku kabati, hari kwaka amatara mu cyumba arimo.

Umuganga uri kwa muganga ari gusuzuma afite ga z'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu gahindurije, yambaye itaburiya y'umweru afite umusatsi w'umukara afite arirabura.

Umuganga uri muri laboratwari, arimo arasuzuma ibintu yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'amarinet n'itaburiya y'umweru, afite ikaramu y'ubururu mu kuboko kw'iburyo.

Umugore wasutse imisatsi y'umukara, harimo udusaro, arirabura, yambaye itaburiya y'umweru, ari gupimira muri mikorosikopi, kandi iruhande rwe hari imiti y'ubwoko butandukanye.

Ahantu hari ibyuma by'ikoranabuhanga imiti kompiyuta ndetse hari n'intebe abantu bicaraho ku ruhande rwaho hari ekara.

Umuganga urimo kwandika n'ikimarikeri cy'umukara n'umweru, yambaye ga z'umweru ndetse yambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari imiti y'ubwoko butandukanye n'umurwayi kuruhande rwe.

Umubu hari umugore uryamye muri supanete ndetse hariho n'ikirangantego cygihugu cy'u Rwanda.

Utwana turi ku ruziga imbere yatwo hari abagore babiri, umugore umwe afashe akana ku birenge, undi arimo kubatoza uko bakina.

Abantu benshi bahagaze, inyuma hari umupolisi, imbere hari undi muntu wambaye ijiri y'umukara n'umugore wambaye agapira k'umuhondo n'akana kambaye agapira k'umuhondo, bakasamuye mu kanwa bari gushyiramo ibintu, inyuma yaho hari umugore uri kureba ku gipapuro cya RBC.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, umwe afite mikoro, bambaye imipira y'umweru bose hejuru, hasi bambaye imyenda igiye itandukanye.

Abantu benshi, hari abagabo babiri n'umugore umwe, afite igipapuro cyanditseho amagambo ari rw'ikinyarwanda n'undi ufite mikoro yambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro yikoboyi, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye amarinete na we afite urupapuro ari gusoma, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Icyumba cya risebusiyo, hahagaze umugore barimo kubaza, yambaye igitenge cy'umutuku n'amabara y'umweru n'umukara n'kijuju, ivarisi ye irasa ikijuju, inyuma ye hari n'intebe.

Abagabo bicaye ahantu mu cyumba, bari kureba imbere, hari projecter, inyuma yaho hari abantu bambaye ingofero.

Abantu benshi bari ahantu bambaye impuzangano, imbere yabo hari icyapa cya RBC n'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Abagore babiri bari kumwe n'umwana iruhande hari umugabo wambaye agapira k'icyatsi n'ak'imbere k'amaboko maremare k'ubururu, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru.

Umugore ufite imisatsi y'umukara yambaye amarinete, hari abamushyizeho mikoro barimo kumubaza ibibazo bamwerekejeho telefone ndetse yambaye n'ikote ry'umukara.

Inzu ifite amabati y'umutuku iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yayo hari jaride irimo ibiti n'indabyo za move, izindi z'umuhondo n'icyatsi.

Abantu barimo kwerekwa n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo afite agapapuro mu ntoki bose bari kurebaho, bafite buri muntu akantu imbere ye ku gatuza kanditseho izina rye.

Umuntu w'umugore urimo guseka, yambaye itaburiya n'amarinete yarasutse, arimo kureba imbere, inyuma ye hari, imiti y'ubwoko, butandukanye, n'utundi tuntu tw'ibicuruzwa.

Umuntu uri muri farumasi ari ku mashini yambaye itaburiya y'umweru, munsi mu kabati harimo imiti, ako kabati kajya gusa umweru.

Imiti y'inka n'inkoko ndetse n'intama, iri mu gicupa cy'umweru uyu mufuniko w'umweru hashushanyijeho inka ndetse intama n'inkoko y'isake.

Amacupa y'imiti ari mu ibara ry'umutuku n'umukara n'ibipapuro by'umweru ndetse n'amagambo y'umutuku n'umukara, hejuru hamanitse ibintu na byo by'imiti.

Abagabo babiri, bari mu iduka, umwe yambaye karuvati y'umweru y'umukara, ndetse barimo guseka aganira n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu.

Farumasi irimo umugabo urimo kureba mu mpapuro yambaye itaburiya y'umweru yandikishije amagambo y'umukara, uwo mugabo ku ruhande rwe hari icyapa cya MTN kiriho momopeyi, ku ruhande rwe ku ruhande rwacyo hari imiti y'ubwoko butandukanye.

Umuganga uri gusoma mu gitabo gifite impapuro z'umweru yambaye itaburiya y'umweru iriho ikimenyetso cya purase, afite umusatsi n'ubwanwa yambaye isaha ku kuboko.

Umuntu ufite inzara ndende, zisize verine, afite igipapuro cy'ibinini ndetse n'ikindi kitarimo ibinini n'ikindi kirimo ibinini.

Umugabo uhagaze muri farumasi yambaye itaburiya ari kureba imbere afite n'ikaramu mu ntoki, imbere ye hari ibitabo ndetse inyuma ye harimo imiti yo muri farumasi.

Umugore ufite akantu mu ntoki ari guhereza umukobwa, uwo mugore yambaye isaha, afite n'igitabo mu kundi kuboko yasutse imisatsi ari kumwe n'abantu benshi.

Umuntu wambaye amarinete afite ibintu bibiri yamanitse mu maboko abiri, handitseho amagambo ugukoresha neza ndetse n'umupira yambaye ni umweru.

Umugabo ufite mikoro, yambaye agapira k'umweru, yambaye amarinete, inyuma ye hari igikirishi, kuruhande rwe hari umugabo uri kureba mu mashini, imbere ye hari undi mugabo uri gufotora, yambaye ingofero...

Umwana wambaye umupira w'umuhondo afite icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hariho n'ikirantego cy'umutuku ndetse inyuma ye hari abantu benshi b'abanyeshuri.

Abantu batatu bari, ahantu bari kubara amafaranga. Umugore yambaye umupira w'umuhondo ari kumeza ndetse hirya hari umugabo wambaye umupira urimo umukara n'ubururu.

Abantu benshi bahagaze umwana umwe wambaye agapira ka move, undi wambaye agapira k'umukara n'undi mwana hasi ugara umutwe gusa n'undi musore wambaye ishati y'ubururu.

Abagore babiri umwe afite yambaye amarinete undi nta marinete afite, handitseho amagambo aravuga ati isangwa sitari Radiyo TV.

Abantu bafite igikiririshi cyanditseho amagambo ari mu cyongereza RBC, n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, abo bantu harimo abagore ndetse n'abasore, iruhande rw'aho hari umukobwa wambaye ipantaro y'umutuku.

Abantu benshi batandukanye, bari kureba hakurya, bambaye amajiri abiri y'icyatsi ndetse n'umugabo kuruhande, ufite kamera, yambaye na ekuteri, yambaye umupira w'umukara ndetse hari n'abandi bantu ku ruhande bari mu matente.

Abagabo bane, bamwe bambaye amataburiya n'udupfukamunwa, bari muri laboratwari, abandi baricaye ku ntebe, barimo kurebera muri mikorosikopi.

Amacupa y'ubwoko butandukanye harimo ay'inzoga n'imiti, iyo miti harimo imiti igiye itandukanye, imwe ifite udufuniko tw'umutuku n'utw'umweru.

Umuntu urimo kumasa umurwayi ibirenge, uwo muntu afite intoki zisize amahina y'umukara. Uwo murwayi afite ibirenge birimo inzara z'umweru ndetse aryamye ku mashuka y'mweru.

Inzu ifite amabati y'ubururu n'irangi ry'ubururu. Imbere yaho hari icyapa ndetse hari abantu batatu bari kwinjira muri iyo nzu.

Inzu ifite amabati y'ubururu n'irangi ry'ubururu, ndetse hariho abantu bafite umwana buri umwe wese na moto ifite palake, ndetse n'ibiti by'imikindo imbere.

Abantu benshi bari ahantu ku murongo, harimo umugore wambaye agapira ka orange, ahetse agakapu, yambaye n'ijipo irimo m amabara y'umweru n'ubururu.

Inzu iriho canali purize, ikaba isa ubururu isize irangi ry'ubururu hariho n'ikirangantego kigaragaza amahame agenga aha hantu, ku ruhande rwayo ruguru hariho indi nzu y'icyatsi ndetse n'indabyo z'umuhondo n'ibyatsi n'ibyatsi by'icyatsi kibisi.